Amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ritsindagiye ndetse n'irindi rijya kweruruka hariho n'ikirango amagambo ni georgia globa hit alliance.

Bambaye imipira ya oranje, ni abagabo n'abagore, bari gukora mu bitaka, bari gutera imbuto mu mifuka, barunamye bose, bari ahantu hahinze ariko hasa n'ahari n'ibyatsi inyuma yabo.

Ni kwa muganga, aho buri wese ari kwandika mu gitabo cye, ni abagore batatu, inyuma yabo hari ibikoresho byinshi byo kwa muganga, ndetse bicaye ku meza amwe, aho bari kubarura ahantu runaka.

Ni amazi ari guturuka mu itiyo umuntu uragaragara akaboko, ari kuyafata ayavoma ayavomesha ikiganza aza amumekaho, ni ahantu mu mugezi uri hamwe udatemba hakikijwe n'ibimera byinshi.

Umujyanama w'ubuzima yicaye imbere y'umumama ukikiye umwana, iruhande ku ntebe umujyanama w'ubuzima yicayeho hari ibipapuro byinshi ndetse n'amakayi ari mu mabara atandukanye ari kumusobanurira ibijyanye n'ubuzima.

Idarapo ry'u Rwanda, abantu bicaye mu nama hateretse imbere yabo amazi n'ameza, hirya yabo, hari umugabo bose bari kureba, bigaragara ko ari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu bane bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho ofisho ronchi ofu Rwanda, nashono chadi purodekisheni kesi managimenti femu waka. Ni abantu bane harimo abagore batatu n'umusoro umwe.

Abantu benshi bicaye bameze nk'abari mu nama, imbere yabo hari amamashini, amatefefoni, amazi bazengurutse ameza, bivanzemo abagabo n'abagore, bari mucyumba cy'inama.

Abana bambaye iniforume babiri muri bo barasutse abandi bambaye karuvati barunamye bari kujomba igiti hafi ya robine iri mu mazi mo hagati, bambaye inkweto zifunze n'amasogisi inyuma yabo hari indabyo n'ibiti.

Visit Rwanda n’amagambo yanditse ku gikapu gifitwe n'abantu babiri mu ntoki cy'umukara inyuma yabo hari icyapa kinini cya unicef cyo mw’ibara ry'ubururu hirya yabo hari utuntu tw'udushushanyo tw'amabara menshi atandukanye barahagaze bari imbere y'inyubako yo kwa muganga.

Bari kwa muganga, bicaye mu ntebe eshatu, ni abantu benshi bazanye n'amakarita yo kwivurizaho, ni abagabo n'abagore bose bicaye bategereje ubuvuzi, bari kwa muganga.

Bari kwa muganga bambaye udupfukamunwa, harimo abaganga ndetse n'abandi bantu bicaye basa n'abarangariye televiziyo, umuganga umwe ari kubashyira muri sisiteme muri mashini, bose baricaye, undi umwe niwe uhagaze imbere y'uwo muganga.

Abagabo n'abagore bari mu nama bakurikiye umugabo umwe uri imbere yabo wambaye kositimu uri kubigisha ufite mikoro, imbere yabo hari icyapa kinini cyanditse mu magambo y'umweru ari mu ibara ry'ubururu symposium on maternal and child health hariho n'ikirango cya RBC.

Umwana yegereye robine, imwe iri kuzana amazi, muri robine enye zose ziri ku gatuti gacometswemo robine, umugabo ari inyuma yayo, ku ruhande rwo hepfo yambaye imyenda y'amakoboyi y'ubururu, n'inkweto, umwana ateruye indobo y'umuhondo mu ntoki, asa nk'uwicaye.

Abamama barahagaze bambaye ibitenge by'amabara menshi babiri muri bo ndetse batatu bambaye amajiri y'akazi, asa icyatsi bigaragara ko ari nkabajyanama b'ubuzima, bahagaze imbere y'inyubako y'amatafari ahiye.

Muganga yambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru; ari gutera umwana w'umukobwa urushinge wambaye agakanzu k'ibara ry'ubururu; imbere yabo hari abantu benshi bategereje nabo ubuvuzi.

Bicaye mu nama bose barakurikiye, imbere hari icyapa kinini cy'ubururu, cyandikishijeho amagambo y'umweru sitake horudazi mitingi onu muvidi. Bari kuganira, imbere yabo hari umuyobozi.

Bari gufata amabwiriza bahawe na muganga, bicaye ku dutebe twa sheze, na sheze iri imbere ya muganga, ari kubereka ishusho, ni ababyeyi babiri, ni umugore n'umugabo, umugore aratwite.

Ari gukaraba intoki akoresheje igikoresho cyabugenewe n'isabune ku ruhande ateze intoki ngo amazi amumenekeho abashe gukaraba neza.

Bambaye inuforume barahagaze bari iruhande rwa robine iri kuzana amazi bamanitse ibiganza n'abana benshi babona ko bari gukina bamwe barunamye abandi barahagaze.

Umukecuru aricaye ari kumwe n'umwana, umuganga ari kubaza uwo mwana ibibazo yandika ku ikayi, inyuma yabo hari ababyeyi bifubitse ibitenge biri mu mabara y'ubururu, icyatsi, n'umuhondo.

Ivomero rusange bapompa, umwana ari gupompa, abandi bari inyuma yaryo bari kuvoma, umwe atezeho akajerekani n'undi mwana ahagaze afite utujerekani tubiri mu ntoki, haruguru yaho hari abantu biganjemo abana, abasore n'umugabo bari kureba uko bavoma.

Bari mu nama barakurikiye hirya yaho hari amarido y'umuhondo n'ibirahure biriri mu ibara ry'umuhondo, imbere yabo hateretse amazi kuri buri umwe, imbere yabo bafite ameza ariho ibitambaro by'ubururu n'umuhondo, barakurikiye bari mu nama yiga ku buzima.

Kwa muganga, umuganga yambaye agapfukamunwa ateze akagofero mu mutwe karimo amabara y'ubururu n'umuhondo, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'icyatsi ari kuri sikirini, bigaragara ko ari ibizamini ari gufata areba ibisubizo byabyo.

Umuganga uri mu bitaro begereye urugi ari kuvura akana gatoya gakikiwe na mama wako mumuhako yambaye umupira w'imbeho uri m'ibara rya move muganga ari gusekera ako kana.

Hari amarobine abiri umwana yafunguye imwe hasi hateretse indobo y'ubururu, umwana ari kunywesha intoki amazi yambaye agakabutura k'umutuku n'ishati ya gisirikare n'udukweto tw'ubururu.

Abagore babiri bari gupomba amazi undi ari kuvoma mu ndobo y'icyatsi, yambaye igitenge cy'umutuku n'umweru utubara duto tw'umukara ateze igitambaro, yambaye n'agasengeri hirya ye hari igiti kinini gifite amashami y'icyatsi.

Umwana yunamye iruhande rwa robine iri kuzana amazi, biragaragara ko ari kuyoga mu maso no mu mutwe, iruhande rwe hari ibishushanyo biri mu mabara asa nkayijimye ariko akeye nubwo atagaragara neza, umwana ari kwoga yishimye ari iruhande rwa robine.

Umugabo uri imbere y'inzu n'indabyo zihateye, imbere ye hari kandagirukarabe ni akajerekani bashyize ku biti bitatu hari ibishinze mu butaka ikindi gitambitse akajerekani gahagazeho akandagiye ku kindi giti gituma akajekani kazana amazi ari gukaraba mu ntoki.

Abana bane bari ku mugezi umugore arikubapompera amazi ngo bavome, ni umusirimu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru n'umukara, haruguru yabo haparitse imodoka y'umweru ni ivomero rusange riri ahantu ku musozi.

Abagabo bari kumwe n'umuzungu umwe yambaye ikositime z'umukara undi zikacye undi iz'ubururu bweruye imbere hariho eyi ayiyu bibiri nacumi na karindwi bari imbereyabo bari kuganira ku byubuganga.

Ari gukaraba intoki ni umwana wambaye agapira k'ubururu haciyeho uturongo tubiri tubiri tw'umukara, ari gukarabira mu ijaga y'icyatsi kibisi n'isabune ya pinki, ari gusukirwa amazi na mama we.

Ni abamama, umwe aricaye yifashe mu mayunguyungu, yambaye akajipo k'ubururu n'gitambaro cy'ubururu n'ishati y'umuhondo n'icyatsi, abandi bamuri inyuma bari kurangara bareba hirya no hino, baseka, abandi bahagaze gusa.

Bari bu gusa nk'abaganira, umwe yambaye ishati undi yambaye umupira w'ubururu, bafite udukomo mu ntoki, umwe ari kukambara undi amaze kukambara, mu bijyanye n'ubuzima bari ku kigo nderabuzima mo imbere bari kuganira.

Umugabo wambaye agapira gatukura, n'ijiri y'ubururu, undi mugabo yambaye ishati y'umweru, imbere yabo hicaye umuntu wambaye akagofero n'umupira w'umweru n'umukara, hari abana inyuma ye, bari kurangarira ikintu bafite mu ntoki, basa nk'aho bari kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima.

Mirongo itanu na gatanu ku ijana bibiri na cumi n'umunani mirongo irindwi ku ijana, bibiri na cumi n'icyenda mirongo irindwi na gandatu ku ijana, bibiri na makumyabiri mirongo irindwi n'icyenda ku ijana bibiri na makumyabiri na rimwe nibyo biri mu ibara ry'icyatsi hagiye haciyemo utuzeru tw'umweru.

Ibiganza biri gukaraba intoki n'amazi ari kuva muri robine. Hari utundi tuzi twamutakaye ku maboko dukeya, nawe ari gukaraba ateze ibiganza, ari mu isuku y'intoki.

Abana babiri bari kuvomera mu ndobo z'umweru amazi ari mu kuva muri robine hirya y'aho hari ibimera biri mu ibara ry'icyatsi amazi ari kujya mu ndobo ya mbere hasigaye izindi ebyiri bataravomera.

Abana bishimye ni benshi, bambaye imyenda itandukanye n'amabara atandukanye, bari inyuma y'akagega k'amazi, bose bari gutegaho intoki bashaka ko amazi abagera mu ntoki, hirya yaho hari ibimera byi'icyatsi kibisi.

Bari kuvoma bavomera mu ndobo n'amajerekani ni abagabo n'abagore ndetse n'abana bose urabona ko bari kubyigana bavoma bari kuri rubine rusange.

Utwana tune dusa nkaho twasetse twishimye, hari umugabo hejuru yatwo uri kudusukiraho amazi, amazi ari kugwa mu inase ibateretse hagati bayizengurutse bisa nkaho bari mu isuku.

Umwana yicaye ateze ibiganza kuri robine, robine iri kuzana amazi, hirya yayo hateretse amajerekani atatu, abiri y'umuhondo n'imwe y'ubururu, nawe ari guseka yicaye avomesha amazi ibiganza

Abana batandatu abakobwa bageze kuri babiri, abahungu bari gukaraba, ndetse bafite no kuvomera indobo eshatu zisa umuhondo n'akajekani kamwe k'atanu, ku mavomero rusange y'abanyeshuri.

Abana bari ku ivomero bazanye amajerekani yo mu mabara y'umuhondo, basa nkaho barangariye mugenzi wabo cyangwa se ikindi kintu bari ku misozi, ruguru yaho hari ibyatsi bijya gusa nk'ibijya kuma, harimo abakobwa n'abahungu.

Ari imbere y'abaganga bambaye amataburiya y'ubururu, umwe ahetse akabaga k'ubururu, bambaye baji mu gatuza, bari imbere y'ahantu handitseho amagambo y'ubururu manini, inyubako yo kwa muganga, hirya yaho hari igiti, ni umuganga w'umugabo na we w'umuzungu wambaye kositimu.

Bari kuvoma ku ivomero rusange, amazi ari kugwa mu ndobo y'umutuku, hari n'izindi ziteretse ku ruhande harimo ni n'ijirekani, abandi bari gupompa amazi ari babiri n'umubyeyi wundi uhagaze hamwe n'umwana, bari kurangarira hakurya yabo.

Abagabo babiri n abagore babiri bari mu nama bicaye iruhande rwabo hari amazi bafite amamashini, umwe muri bo afite microhone, imbere yaho hari igitambaro cy'umukara ku meza bicayeho n'inyuma yabo bahari igita.

Robine iriho utuvomesho tune, kamwe niko kari kuzana amazi, hirya hari umukecuru wunamye uri kuvoma afite ikidomora cy'umuhondo, n'akandi kadomoro k'umweru gateretse hakurya ye, ari kuvomera mu kidomora kirimo kujyamo amazi nivomero riri mu byatsi n'ibiti.

Ni abaganga benshi bari kwa muganga, barimo barareba mu byangombwa byinshi bari ku meza amwe, barazengurutse bari mu nyubako, bambaye bamwe amataburiya.

Abagabo, abagore bambaye imyenda myinshi itandukanye bamwe bambaye amataburiya bari imbere y'icyapa cyanditseho gira ubuzima, gishushanyijeho abantu bane umwe umwe afashe umwana mu ntoki ni umugabo n'umugore.

Baricaye ni abantu bane, umwe yambaye umupira wo kwifubika w'umutuku, undi yambaye agakote k'icyatsi, umugore uri hirya gato yambaye umwenda w'umukara hejuru, undi mugore yambaye umupira w'ubururu wo kwifubika n'igitambaro mu mutwe cy'ubururu, baricaye basa nabategereje ubufasha bwo kwa muganga.

Bari mu nama, bari gukurikirana umuntu uri gutambutsa ikiganiro kuri sikirini nini cyane, bambaye neza nk'abayobozi, imbere yabo hari icyapa cyanditseho nashono dayaroge onu herifu fayinansingi.

Bambaye amataburiya y'umweru, ni abagore n'abagabo, bambaye n'amakadi y'akazi, basetse bari hafi y'ibimera by'ibara ry'icyatsi kibisi, basa nkaho bari gufata ifoto.

Umwana uri ku mugezi yasetse ari gutega amazi ava muri robine n'amaboko yombi. Imbere ye hari amajerekani atatu, abiri y'umuhondo n'imwe y'ubururu arimo aravoma ari ku kumugezi.

Umwana afite agacupa mu ntoki, yagacuritse karimo karavamo amazi, yambaye ikanzu y'igitenge, arahagaze ari iruhande rw'amatafari ahiye n'adahiye, izo nzu zirateganye ari iruhande rwazo, arikumena amazi mu gacupa.

Muganga ari kuvura umwana, umubyeyi amuteruye mu kiganza, amwicaye ku bibero, umwana arararamye bari kumusuka umuti mu kanwa, muganga yambaye itaburiya y'umweru.

Harimo abagore ,abagabo bambaye informe z'ubururu bafite ibitabo imbere yabo bari gusoma bicaye hamwe basa nkaho bari mu nama mucyumba cyubuvuzi.

Bari gukaraba ku kigega kiri kuzana amazi bateze ibiganza hejuru y'indobo y'ubururu ni abagore bavanzemo n'umugabo umwe umugore umwe afite amaherena y'ikizeru abandi bambaye imyenda isanzwe bateze n'ibitambaro.

Ababyeyi baje kuvuza abana kubateza inshinge barabateruye babashyize ku bibero bamwe bari kubonsa abandi bari kubananura, ni abamama baje bicaye imbere y'inyubako y'amatafari ahiye.

Abana bicaye mu ishuri bari kurya akawunga ku masahani y'ibyuma, ku kawunga hariho ibishyimbo n'imboga zamashu bambaye udupfukamunwa bari kureba imbere, inyuma hari umwana wicaye wenyine yambaye umupira w'iniforume.

Abagabo bane abagore batatu bahagaze imbere y'inyubako yo kwa muganga, hirya hari ijambo helifu posite, bose bahagaze bari gufata ifoto, imbere yabo hari ururabyo rw'umuhondo n'icyatsi.

Bari gupompa amazi bamwe bari kuvoma abandi barahagaze umwana uri kuvoma afashe ijerekani izindi ebyiri zimuteretse iruhande yambaye agakote gaciye amaboko k'umutuku yambaye ibirenge yambaye n'agapantaro yazinze yagejeje mu mavi mu umuma niwe uri gupomba amazi hirya y'aho hari insina.

Abagore n'abagabo bari kumwe n'abashinzwe umutekano, bameze nk'abari mu nama, bicaye bose bategereje bari kumva ijambo ry'ubahagarariye, bari imbere y'inyubako irimo ibara ry'ubururu, hirya yaho hateretse ikidobo kinini cyo kujugunyamo imyanda, kiri mu ibara ry'umutuku.

Umugabo ahagaze imbere y'umwana na mama we, umwana baramuteruye bari kumuha mu gakongoro, bambaye imipira isa oranje, mama we yambaye igitenge kirimo icyatsi n'umupira w'umweru.

Umusaza ari kuvoma, yishimye cyane yambaye ishati irimo imirongo imanutse n'ipantaro y'umukara, arahagaze akaguru kamwe agateye kuri robine, amaboko afashe kunjerekani amaze kuvoma amazi, inyuma ye hari ibimera by'ibyatsi by'icyatsi kibisi.

Umwana na nyina bari kwa muganga, umwana yarwaye baramuteruye muganga amuri imbere yambaye itaburiya y'umweru, mama we ari kumureba mu maso bisa nk'aho yababaye nko mu kanwa muganga nawe amufashe kukananwa.

Bari mu nama n'abagabo n'abagore, bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima bicaye ahantu mu nzu ni benshi, basa nk'abakurikiye umuntu uri kubaha inama zijyanye n'ubuzima.

Ni umumama wikoreye indobo y'umutuku afite mu ntoki iy'umuhondo, avuye kuvoma ari kwerekeza ahantu mu muhanda ariko usa nkaho uriho ibiti birebire bizamutse, n'ibyatsi byumye, hirya yaho hari inzu babamo, ndetse hari n'abantu.

Abantu batatu bahagaze umwe asa n'uteruye umwana mu ntoki atwikirijeho igitambaro cy'umuhondo, undi yambaye agapfukamunwa undi yambaye ingofero bisa nkaho bari kuganira cyangwa gufata amakuru kubyerekeye ubuzima.

Umugore wicaye wamaze kumesa imyenda irimo imipantaro imipira amajipo, ari kuvoma andi mazi mu kidomora cy'umuhondo ateretse mu ibasi y'ubururu.

Abana bambaye iniforume z'ubururu n'umuhondo, ku maboko haciyemo akabara k'ubururu, no ku ijosi. Bari gukaraba ku marobine atatu, bombi bari guseka ni batatu, inyuma yabo hari utagaragara neza nawe uri kuza abasanga.

Ambulance iparitse imbere y'abantu benshi bari mu kivunge bari mu ihema, amahema ni abiri imbere y'inyubako iriho ni darapo hari abantu benshi cyane bambaye imyenda itandukanye bigaragara ko bakeneye ubuvuzi harimo abagize ibibazo bagiye gutuma babohereza ku bitaro.

Abagore babiri bicaye hamwe k'ameza amwe umwe ateze igitambararo cy'umuhondo undi yambaye ikote ry'umweru n'umukara mwimbere yambayemo umupira w'umukara bicaye bameze nkabari mu nama inyuma yabo hari igitambaro kinini cy'ubururu.

Umwana uri gukaraba intoki n'amazi meza ava mu itiyo, arunamye afite udusatsi tuboheye inyuma, yambaye agakanzu k'igitenge ari inyuma y'amatafari.

Abanyeshuri batandatu barahagaze bari kunywesha ibikombe bose; umwe ari kuvoma amazi; bose bambaye imipira yo kwifubika ndetse n'iniforume; bahagaze munsi y'ikigega cy'amazi, bari kuvoma amazi yo kunywa.

Bicaye mu ntebe zisa kake n'ubururu, ni abagabo bane n'abagore babiri, bose hamwe ni batandatu, bari mu nama yerekeranye n'iby'ubuzima, bambaye udupfukamunwa inyuma yabo hari icyapa kinini kiririmo ibara ry'umweru n'ubururu, cyanditseho amagambo menshi.

Abaganga benshi bambaye amataburiya y'umweru, abandi batayambaye bari imbere y'ubusitani burimo ibyatsi bike, abantu baricaye bambaye baji mu gatuza, abandi barahagaze inyuma yabo.

Bari kuvoma amazi ku ma robine, batezeho amajerekani abiri, ni abagore, abandi bahagaze inyuma y'abo bafite ibitambaro mu majosi bari kuvoma amazi bayareba.

Baricaye mu nama yiga ku buzima, ni abantu batandatu, hejuru yabo hari amafoto atandatu, kuri sikirini y'icyatsi, baricaye, imbere yabo hari abantu benshi babateze amatwi.

Abana b'abahungu bane, umwe muri bo ari gupompa amazi, ijerekani iteretse iruhande rw'aho robine izanira amazi, abandi bari kureba, bari hepfo gato y'ibyatsi n'ibiti by'icyatsi kibisi.

Abagore basa nk'aho bari mu nama bitabiriye ahantu runaka, barahagaze barasa nkaho bari gukoma mashyi bose bishimye bigaragara.

Umusaza wakutse amenyo haba ayo hasi n'aho hejuru, afite umusatsi mwinshi bigaragara ko yatezemo ikintu cy'igitambaro, yambaye imyenda y'ubururu, bigaragara nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Yarize amarira yashotse ku jisho atakara ku matama aragaragara igice cyo mu maso cyonyine nacyo cy'igice, afite ijisho ryatukuye biragaragara ko ahangayitse yarakaye afite nk'ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu babiri bicaye ku ntebe, umwe yambaye agakanzu k'ubururu, afite agasimba mu ntoki k'agashushanyo, bigaragara nk'aho yari afite ikibazo cyo mu mutwe, babiri bandi bari hirya gatoya, mu kintu kimeze nk'ikibokisi, undi amuteze amatwi, yambaye agapira k'umukara.

Umugore uri kuvugira muri mikoro ufite agasakoshi mu ntoki wambaye ikanzu y'igitenge imbere ye hahagaze umukobwa wambaye inkweto za oranje, ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku urimo umweru igishushanyo cy'umweru mu gatuza imbere yabo yicaye abantu benshi agirango bari mu nama mu nyubako.

Ni abantu benshi abagabo n'abagore, bafashe imbere igitambaro kiri mu ibara ry'umweru icyatsi, amagambo yandikishije umweru n'ubururu, baraseka barishimye ni abaganga b'ubuzima bwo mu mutwe.

Ni igitsina gore bigaragara ko akiri muto yambaye agakote k’umutuku, m’ imbere yambaye ikanzu y’ ubururu yamwenyuye arishimye mu bigaragara, biragaragara ko yari afite nk'ikibazo cyo mu mutwe hanyuma akagikira.

Umusaza usa nabi wambaye imyenda isa nabi, asa nkuwicaye ariko atakozeje hasi ikibuno, apfukamishije ivi rimwe afatishije n'akaboko kamwe hasi akandi kari hejuru, ari imbere y'inyubako hirya ye hari umuntu wicaye ku igare yambaye ishati y'umweru.

Umumama wikoreye agatebo ku mutwe harimo imigozi yifubitse ikote, yambaye agapira gaciyemo amabara y'umuhondo n'umukara, afite n'isuka mu ntoki, ari iruhande rw'inzu y'amategura.

Umugabo n'umugore baricaye bari imbere y'icyapa kinini cyanditseho arabisi ishami ryita ku buzima, bambaye udupfukamunwa bafite mikoro bari kuganira, baricaranye bari kugira icyo bigaho, iruhande rwabo hateretse amazi yo kunywa.

umukecuru wambaye ibitenge biri mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi n'ubururu; yicaye ku gatebe, ari guteka ku ziko harihoho isafuriya, ari gusa nkaho avanga ndetse n'iruhande rwe hari umufuniko w'isafuriya n' igikombe cy'icyatsi kibisi.

Abana benshi barahagaze, umwe yambaye bodaboda z'icyatsi, undi yambaye ibirenge n'ikote arifubitse, ni benshi basa nkaho bari guseka. Inyuma yaho hari ibyatsi n'ibiti birebire.

Igishushanyo kinini cyanditseho worudi mento herifu dayi ogitoba teni, kiragaragaza igihanga cy'umuntu kiri mu ibara ry'icyatsi n'umweru.

Umugabo munini yambaye ishati y'ubururu ifite ibipesu bitatu inyuma ye hari abantu ikivunge cy'abantu hari n'ibara ry'icyatsi hari n'ishusho y'ingagi inyuma ye.

Bicaye hamwe, bamwe barahagaze, bari munsi yicyapa kinini cyanditseho RBC, kiriho n'andi magambo y'umutuku n'umukara, bicaye bari kwifotoza, ni abaganga bari mu nyubako nini, bameze nkaho bari mu mahugurwa.

Bicaye mu gikoni baratetse, mama ahetse umwana ari guseka n'undi mwana amuhagaze iruhande, mama yambaye agapfukamunwa munsi y’akananwa, arimo aravanga mw’isafuriya yatetsemo iri kumbabura.

Umugore yicaye areba hakurya ye yambaye agatambaro k'umuhondo mu mutwe, agapira k'icyatsi n'ijipo irimo utubara, iruhande rwe hari igishushanyo cy'akarabyo ari kureba hakurya ye yicaye ku ntebe afashe mu ntoki.

Barahagaze bita ku buzima bwo mu mutwe n abaganga bose bari gufata ifoto bari imbere y'umuryango hirya yabo hari icyapa kinini cyerekana umuganga uri kuvura harimo utuntu twinshi tw'utubara, amabara atandukanye arabakikije.

Umugore munini usa nkaho ari kumwenyura, yambaye ikote ry'ubururu n'ikanzu y'umutuku, yambaye ikarita y'akazi mu ijosi, ni inzobe, ari kwa muganga, aho kwita ku buzima aho akora akazi ko kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umwana bamufashe mu maboko, umwe yamwiyegamije ku rutugu, afite n'inkoni mu ntoki, bose bari mu ibara ryijimye, umwana bamwambitse imyenda isa nk'ihambiriye, undi mumama amufashe mu nda no ku kaboko, asa nk'aho yahungabanye, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Nta magambo ari mu ibara ry'icyatsi umukara ubururu umuhondo nimenshi yanditse bitandukanye mu madizayina atandukanye post, tramic, stress, cyyclogiycal , imotional drags, ni menshi ari mumabara atandukanye yifashishwa kwa muganga mu byubuzima bwo mu mutwe.

Baricaye bazengurutse bakoze uruziga, bamwe baricaye, abandi barahagaze, bari kwiga ku ishusho babona imbere, abamama batatu bahagaze, abandi bakurikiye bari kwiga ku by'ubuzima bicaye kuri sheze.

Ni abantu batanu, abagore ni bane, umugabo ni umwe, umugabo yazinze ipantaro yayizamuye, yambaye ishati y'ubururu, yicaye ku ntebe y'urubaho, bari kumuganiriza ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye n'ibirenge, akandagiye ku nkweto.

Yicaye ku gatebe, yambaye udukweto dufunguye amano, arareba nk'uwihebye, ni umama wicaye wifumbase, ni umwirabura, yicaye munsi y'idirishya rikinguye.

Umugabo muremure yambaye imyenda yiganjemo umukara ishati ifite ibara rimwe ry'umuhondo, irindi ni umukara arahagaze imbere yinyubako nini, imbere ye hari ibyatsi akandagiye mubyatsi.

Baricaye bambaye imipira y'umukara ni abagabo harimo n'abagore bose urabona ko bakurikiye inama iri kubera aho hafi bicaye bafite n'ibyo kunywa mu ntoki bose bakurikiye.

Yambaye agapfukamunwa n'umugore ufite imisatsi y'umukara yambaye umwenda w'icyatsi ahetsa akabage imishumi yako ni piki hejuru hari amagambo goroba awirinesi porojegite Rwanda andi magambo yanditse mu ibara ry'umutuku werurutse hari amabara menshi y'icyatsi.

Abaganga bambaye amakarita y'akazi mu ijosi, baricaye bari gukurikirana inama, imbere ye hari amazi mu icupa ry'ubururu, n' inyuma ye hari abantu benshi bari gukurikirana inama.

Umuganga ari kwerekera umamama ibipimo yafashe umwana, umwana baramuteruye, asa naho yarembye, mama we ari kureba nawe ibipimo muganga ari kumwereka, muganga afite terefone y'ubururu mu ntoki, mama w'umwana ateze agatambaro k'ubururu, yambaye ikanzu inyuma y'umupira wa oranje.

bari imbere y'ihema bari guhererekanya urupapuro rumeze nka seritifika bari gufata ifoto, umwe muri bo ahagaze iruhande rwabo yambaye agapira k'umweru abandi bose bahurije amaboko kuri iyo seritifika barahagaze, hasi hari ibyatsi bikeya ndetse n'ubutaka bahagazeho.

Umukobwa wahumirije wakunje isura cyane yasamye mo gakeya ariko afatanyije amenyo, afite urudodo rw'umweru mu ntoki yaruzingiye ku dutoki, yarufatishije amenyo abiri y'imbere.

Umukobwa n'umuhungu bari kwireba mu kirahure bose bari kwerekana amenyo yabo, bambaye imyenda y'imyeru hejuru umuhungu afite igitambaro hejuru ku rutugu, bose bari kwikora ku munwa.

Ni umuganga aricaye yambaye itaburiya y'umweru yandikishijeho utubara tw'icyatsi n'ubururu, yicaye ku ntebe y'icyatsi mo imbere mu bitaro, yicaye asa n'uri kwifotoza.

Ni ibiganza bibiri bifashe mu ntoki urwasaya rumwe rw'amenyo, ari guteramo urushinge muri urwo rwasaya hagati mu ishinya, yambaye ga z'umutuku afite n'urushinge ruriho akantu k'umuhondo.

Kwa muganga w'amenyo hari urukarabiro rwa kizungu, hari aho amazi ashokera, hari ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye bimwe biri mu ibara ry'ubururu ibindi ni umweru bigiye bifatanyijwe n'insinga nyinshi, imbere gato hari indabo z'icyatsi.

Abaganga babiri bari kwita ku murwayi, bombi bambaye udupfukamunwa bambaye ga mu ntoki, umurwayi bari kumuvura indwara zo mu kanwa, aryamye agaramye hepfo hari ibikoresho bari kwifashisha ndetse bafite n'inshinge mu ntoki.

Umwarimu umwe ari kwigisha uko urwasaya rugenda rwegerayo, ari kwigisha umwana ibijyanye n'ishinya, indwara zo mu kanwa ndetse n'abandi bari inyuma yabo bari kubareba, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho n'ingwa y'umweru.

Bose bicaye hasi bazamuye intoki ebyiri hejuru berekana ikimenyetso cya pisi, ni benshi bamwe barahagaze bari gufata amafoto, abandi baricaye, bose urabona ko bari hamwe ku mucyeka umwe, abasore n'inkumi n'abagabo n'abagore.

Umuganga ari kuvura umwana mu kanwa, ari kumutera urushinge, umwana yasamye bamushyizeho igitambaro cy'icyatsi kibisi, muganga yambaye ga z'ubururu ari kuvura umwana mu kanwa.

Umwana bari kumusuzuma mu kanwa bamwasamuye umunwa wo hasi nuwo hejuru, intoki zambaye ga z'umuganga ziri kumukora mu kanwa zireba ahari ikibazo, zambaye ga za buresiyeri.

Umukobwa yasetse cyane yafatanyije amenyo, arimo arerekana mu kanwa amenyo asukuye, arasa neza cyane, ari gukoresha intoki ebyiri yerekana.

Urwasaya rwerekana amenyo yo hasi n'ayo hejuru, biri mu ibara ryijimye rijya gusa umutuku n'ubururu, biragaragaza amenyo n'indwara zafata amenyo.

Umugabo wasetse neza, afite amenyo asukuye, bisa nk'aho ntakibazo afite cyo mu kanwa, ari kwerekana ubuvuzi bwiza bw'amenyo yahawe, afite amenyo meza, yasetse, yambaye agapira k'umweru.

Ari kuborosa amenyo ni mukobwa wambaye imyenda y'umweru, afite uburoso bw'umutuku n'umweru, afite imisatsi ishotse, ari gukora isuku y'amenyo yicaye ahantu ari kwireba mu kirahure.

Urutoki ruri kutwereka mu kanwa harimo amenyo adasa neza, ahandi hino har’amenyo ari mw’ishinya yarwaye, bigaragaza ko ar’ishinya zangiritse ndetse n'ubuvuzi bw'amenyo.

Urwasaya rwasamuye rugaragaza amenyo yo hejuru n'ayo hasi, biragaragara ko ari indwara zo mu kanwa zifata amenyo, biri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Ni akana kicaye mu ntebe y'abana, kambaye akantu mu mutwe kameze nk'akarabyo gasa pinki kari kuborosa kururimi n'uburoso bwa move n'umweru kasetse nyine kari kwiborosa kari gukora isuku mu menyo.

Umukobwa wambaye isengeri uteze agatambaro kumwiru mu mutwe ,isengeri nayo n'umweru ari kuborosa amenyo akoresheje uburoso bw'ubururu n'umuti w'amenyo usa umweru, ari kwireba mu kirahuri ari koza amenyo.

Umugabo yasamye yafatanyije amenyo, yashyize urudodo hagati y'amenyo abiri, ari kwerekana uko amenyo ameze, ni ibyifashishwa mu buganga bw'amenyo.

Umusaza uri kumwe n'umukobwa bigaragara ko ari kumwitaho, umusaza arakuze ariko si cyane, bigaragara nkaho bari kumukorera massage ku ntoki, kugira ngo imitsi igororoke.

Ni umusaza bari kumukarabya mu mutwe harimo ifuro ryinshi bigaragara ko bamusize isabune, ibiganza biri kumwoza mu mutwe ntibigaragara neza, amazi niyo ari gutaruka amanukira mu maso ashoka no ku gihimba.

Umusaza wambaye agapira k'umukara ari kumwe n'umukobwa, bigaragara nkaho ari muganga ari kumuvura. Afite akantu k'agacupa kabamo ibinini mu ntoki umusaza yateze ikiganza yamushyiriyemo, bisa nkaho agiye kunywa iyo miti. Hafi yabo hateretse amazi imbere yabo hari na copyuta.

Umuntu wambaye ikanzu y'ubururu, ari kwa muganga mu cyumba, bisa nk'aho afashe ku kantu kameze nk'akagare ariko kazamutse k'inkingi enye n'izindi zitambitse, yambaye ibirenge asa nk'aho abyutse mu gitanda.

Muzehe ari mu myitozo afite utuntu tubiri mu ntoki ze zombi, yambaye kuteri afite umusatsi w'imvi ahagaze ahantu ku musozi ari muri siporo.

Umusaza n'umukecuru bose bafite imisatsi y'imvi, umusaza yambaye agapira k'ubururu, umukecuru yambaye agapira k'umutuku, bose bicaye kumeza amwe bafite utuntu mu ntoki tw'umweru basa nk'aho bari gukinisha bose barishimye.

Ari muru rugo inyuma gato y'akabati, ari kurya ibiryo byiza bigaragara ko ari indyo yuzuye, ni umubyeyi usa nkaho akuze uri kurisha ifurusheti ku isahani ya mpande enye.

Bari mu gikoni ni mama n'umwana bose bari guseka, bari kurebana, bari gutunganya imboga, imbere yabo urusenda, inyanya n'ibindi bi bikoresho byo mu gikoni bagiye gutunganya ifunguro, hakurya yabo hari akabati karimo ibikoresho.

Umukecuru wicaye ari muri siporo, yarambi akaguru kamwe akandi yagahinnye, amaboko yayafatishije ku kaguru karambuye, afite umusatsi urimo imvi, yambaye agasengeri k'ubururu n'ikabutura y'umukara.

Umusaza wiyogoshesheje umusatsi agasiga ubwanwa bwonyine, umukobwa ari kumusukira ikinini mu biganza. Umusaza afite ikirahure kirimo amazi kugira ngo anywe iyo miti, ni imiti ifasha abantu bakuze.

Umusaza yicaye mu kagare yambaye imyenda y'ibara ry'ubururu bwijimye inyuma ye harumu umugore uri kumusunika mu kagare bose basetse bamwenyuye umusaza yambaye amarinete afite umusatsi urimo imvi bari imbere y'ikigo inyubako yo kwa muganga bigaragara ko ari kumwitaho.

Umusaza ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umusore nawe bisa nkaho akuze ariko yambaye agapfukamunwa. Bigaragara ko ari kumwitaho yananiwe nko kugenda, akaba ari kumusindagiza.

Umusaza n'umuhungu we bari muri salo bari gusoma mu gitabo cy'umweru, ibikombe by'umweru bibateretse iruhande ku meza bose barangaye urabona ko bashimishijwe n'inkuru bari gusoma.

Umwana na se bari mu gukina bose bahuje amazuru ise atangiye kuzana imvi nkeya mu musatsi umwana afite agakinisho mu ntoki papa we amufashe mu nda no mu mugongo.

Umuganga w'umugore ari inyuma y'umugabo, umuganga yambaye imyenda iyisa y'ubururu bwerurutse umugabo yambaye igikandara mu nda, ari kwa muganga.

Abaganga bari kwa muganga, n'umusaza urwaye bari kumuha ibiryo mu gasahane, ni isosi bari kunywa, ndetse ari kurebana n'umudamu umwicaye imbere nawe bari gusangira.

Umukecuru yasetse ari kureba hejuru, ari kumwe n'umugore ndetse bari kumwe n'umwana, umukecuru yambaye agapira k'umuhondo k'amaboko maremare, umugore yambaye agapira k'icyatsi, umwana yambaye agapira k'umweru k'amaboko maremare afite utuntu tw'icyatsi mu ntoki.

Ni musaza uri kumwe n'umugore, ari gusa nkaho amuhambira akaboko amwitaho ageze mu za bukuru, afite imvi yambaye rinete, ako gatambaro bagiye kumuzirikaho ni umuhondo, hirya yabo hari umukobwa usutse imisatsi y'umukara.

Ababyeyi bari guseka abana babafashe mu matuza, abagabo ni babiri umwe asa n'ushaje, abagore ni babiri bose basetse bari kumwe n'abana babiri.

Mama yambaye amarinete, ari kumwe n'umukobwa we, umukobwa we ni umuganga ndetse bari kurebana basa n'abishimye, mama yicaye ku ntebe, umukobwa amuri inyuma mu bitugu.

Umukecuru bari kumusetsa, bari kumwitaho nk'umuntu ukuze, umukobwa umwe yambaye agapira k'umutuku, undi uhagaze yambaye agapira gaciyemo uturongo, umukecuru bafite udukarita mu ntoki bose bari guseka.

Abakecuru batatu bishimye bari kureba muri telefone umwe yambaye agapira k'umuhondo afashe na telefone mu ntoki, undi yambaye agapira k'umweru, undi yambaye nawe agapira k'umweru bose bari guseka bitegereza muri terefoni.

Ni utubuto dutandukanye turi mabara atandukanye oranje umutuku, umuhondo umukara ubururu, turi mu mifuka buri kamwe kari mumufuka wako ni twinshi ku buryo kutureba ari mabara menshi atandukanye.

Umugore ari kugendesha umusaza bisa naho yahungabanye cyangwa se afite ikibazo mu migendere, umusaza yambaye agakabutura n'umupira w'ubururu, umugore yambaye imyenda y'umukara hose bigaragara ko ari muganga uri kumufasha, uyu musaza arakuze cyane ashobora kuba afite ikibazo.

Umukecuru wambaye agashati k'umweru umukobwa we amwicaye inyuma, yambaye agashati k'ubururu gaciyeho uturongo tw'umweru ku maboko no ku ijosi bose bari guseka barishimye baricaye.

Umusaza bari kumupima umuvuduko w'amaraso, bamwambitse igikoresho kiwupima mu kaboko, yambaye ishati y'ikigina, umuganga yambaye itabuririya y'umweru, bose baricaye imbere ku meza hari agakoresho bareberamo ibipimo.

Abantu bari mu nzira bambaye imikenyero y'umweru n'umukara, undi yambaye bodabada z'umuhondo ni umusore, yambaye n'agakabutura k'icyatsi n'umupira w'umweru, undi mukobwa yambaye ijipo y'umutuku n'umupira w'umukara n'inkweto z'umuhondo bari mu nzira, hirya yabo hateye insina.

Mama n'umwana bari gukina, bari ku meza amwe barambitseho utuntu tw'umweru bose bari kuturangarira, bose bambaye imyenda yiganjemo umweru, bafite imisatsi myinshi bose barishimye bari mu nzu iwabo.

Abakecuru, abamama bambaye imyenda hejuru ni umweru, hasi ni amajipo y'imikara, bamwe muri bo bambaye inkweto z'imikara zifunze, abandi bambaye izifunguye, umwe iz'umutuku undi iz'umukara, uri imbere yambaye ikanzu irimo utubara tw'ubururu n'umweru, bambaye udupfukamunwa munsi y'akananwa.

Bari muri siporo bambaye imyenda ya siporo, umwana afite umupira mu ntoki papa we amuri inyuma bari kugenda bacengana, papa we yambaye umupira w'amaboko yayahinnye ayageza mu nkokora yambaye n'agakabutura, umwana yambaye ipantaro n'umupira wo kwifubika nundi mo imbere, bari mu kibuga hagati haciyemo imirongo.

Abagabo batanu n'abagore babiri bose bambaye ikarita z'akazi mu gatuza barahagaze bahagaze kuri tapi, inyuma yabo hari ibyapa biri mu mabara menshi bigaragara ko bari gufata ifoto ni abaganga bita ku buzima bari mu nyubako yo kwa muganga.

Bafite ibitabo mu ntoki, inyuma hari ikirango cy'agaseke kari mu idarapo ry'u Rwanda, afite ibitabo mu ntoki, bambaye kositime z'ubururu, bari gusuhuzanya, umwe yambaye rinete.

Ababyeyi bamwe bari guseka abandi barangariye abana bari munsi y'ibyapa biriho ababyeyi bateruye abana, nabo bateruye abana babo mu ntoki umwe ari kumuhoza asa naho yarize, bose baramurangariye baricaye ku ntebe bari kwa muganga.

Umukobwa yagiye kwivuza kwa muganga, muganga ari kumupima umuvuduko w'amaraso ku kaboko. Imbere yabo ku meza hari micoro bari kumuvura, imbere yabo hari abantu benshi bari kumurangarira.

Ikarita nini yanditseho gorobo herifu semino sirizi n'andi magambo menshi ari mu ibara ry'icyatsi kibisi yandikishije umweru hari umugabo uri kuruhande gatoya hepfo, ni ifoto ye yambaye ishati y'ubururu hepfo gato hari urubuga wamusangaho yita ku buzima.

Vasine agisesi nawu, umugabo afite urupapuro rwanditseho gutyo mu ibara ry'umutuku, umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'amarinete, ari kureba ku ruhande ari munsi y'igiti.

Abantu bane barimo abakobwa babiri n'abagabo babiri, bari ku cyapa kinini, bafite utuntu mu ntoki, umwe afite ak'umuhondo, undi ak'ubururu, undi ak'umutuku, hirya yaho hari amagambo manini yanditse mu ibara ry'umutuku, ni icyapa kigaragaza ubwirinzi, bigaruka ku byo abaganga bifashisha.

Okipeshono helifu endi safuti komferensi bibiri na makumyabiri na kane, ni inama iri guhuza abantu bageze muri batandatu, bari imbere y'abandi bantu benshi babakurikiye, bari kuganira ku by'ubuvuzi.

Amagambo yanditse atandukanye mu mabara atandukanye hariho icyapa kiriho utuntu dutatu tw'udushushanyo tw'abantu bazamuye amaboko, hirya gato hari uwicaye ku gatebe k'ubururu, inyuma ye hari muganga wambaye itaburiya.

Kovagisi sipi gavi unisefu n'andi magambo ari hasi mu ibara ry'ubururu biri ku gitambaro cy'umweru, ni amagambo yifashishwa mu buvuzi ndetse no kwirinda indwara isi hose.

Amaboko ariho ibiheri byinshi kugeza ku biganza, aricaye ntagaragara neza mu maso, hari amagambo amuri imbere yo mu ibara ry'umweru, twirinde andi ari mu ibara ry'umuhondo indwara y'ubushita bw'inkende.

Abagabo n'abagore, abagabo bambaye amakositimu abenshi, abagore bicaye mu ntebe bose bari kureba imbere yabo bigaragara ko hari uri kubabwira, bose bateze amatwi nk'aho bari mu nama.

Abaganga bambaye bikwije, ingofero, ibisurubeti, udupfukamunwa, ga, bose barahagaze bageze ku bantu batandatu, inyuma hirya hari umugabo wambaye agapfukamunwa n'agashati ka move ari kubareba bose barahagaze.

Abaganga babiri bahagaze imbere y'amadarapo, ndetse bafite ikirango cyanditseho twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira, hariho n'ikirango cya rbc. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara umugabo n'umugore.

Abaganga bane bahagaze imbere y'umuntu uryamye boroshe igitambaro cy'ubururu, bambaye udupfukamunwa bose, bambaye n'ingofero z'ubururu, bari kwa muganga bari gukurikirana umurwayi bari kwitaho, umwe muri bo niwe uri kumwitaho amwunamye hejuru.

Aryamye hasi ku gatanda k'abarwayi hari ibyatsi iruhande rwe ,ari kumwe n'abantu batanu bari kumwitaho bamwe bambaye udupfukamunwa tw'ubururu abandi bambaye utw'umukara harimo na muganga wambaye itaburiya y'umweru.

Bari mu nama baricaye bararebana, imbere yabo hari icyapa cyanditseho amagambo menshi ari mu ibara ry'icyatsi, umuhondo, ubururu n'umutuku bari mu nama yabahurije hamwe n'abayobozi.

Umugore uzamuye akaboko yambaye imyenda y'umukozi wo kwa muganga, imyenda iri mw’ibara ry'ubururu, yambaye ingofero mu mutwe n'agapfukamunwa yakambariye munsi yakananwa. Handitse amagambo avuga ngo “ubuzima mu Rwanda kwita ku buzima mu Rwanda”.

Umwana wasamye ari ku ishusho yanditseho amagambo medisine wikeni tarasite ekoru tosefugaride kariti, ni amagambo yanditse mu ibara ry'umweru hari utundi tugambo twinshi turi mu ibara ry'icyatsi n'umutuku n'imbuga nkoranyambaga waboneraho, n'ishami ryita ku buzima.

Ni kwa muganga hari amabara atandukanye oranje, n'umweru, hari n'ibitanda byinshi biriho abarwayi bamwe basohotse hariho umurwayi umwe nawe wiyoroshe.

Ibitaro binini biriho icyapa kinini kiriho ikirango cy'agaseke byanditseho arabisi, hirya ku mpande haparitse imodoka hari abantu mu muryango bari gusohokamo.

Ni kwa muganga hari igitanda gishasheho amashuka y'umweru, hejuru kuruhande rw'ibumoso hari ikadere nini iriho amafoto y'abantu babiri, hino yaho hari kamera nini ndetse na mudasobwa nini yo kureberaho uko abarwayi ibizamini byabo byafashwe bihagaze.

Inyubako nini ifite imiryango myinshi, hari udutebe duteye ku ruhande hanze imbere y'inyubako, hari n'aka meza gasa nk’aho rwari urukarabiro, hari na vandarateri hejuru n’imiryango ikomeza yinjira mu nyubako, ni kwa muganga aho abarwayi baza kwivuriza.

Inyubako nini cyane y'igorofa iriho amabara menshi umweru, orange na pinki hari imodoka iparitse y'umukara y'ivatiri inyuma yayo hari abantu ndetse hari n'umuntu wicaye asa nkaho ategereje, ni kwa muganga kugira ngo baze kumufasha.

Ni mu bitaro hari agatanda k'abarwayi gashashe kariho igitambaro cy'umweru, imbere y'ako hari sikirini nini y'umweru n'umukara, hejuru y'ako hari sikirini yindi irimo iby'imbuto, ishamikiyeho insinga zifatiye k'ubwo buriri.

Inyubako nini ndende y'umweru iriho amadirishya y'ubururu andi ni immyeru nzugi z'imyeru ni ikigo nderabuzima ni inzu yo kwa muganga irafunze ni inyubako ndende hejuru hariho amabati y'umweru.

Inyubako nini isakaje amabati y'umutuku imbere hari icyapa cy'umweru, imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo unyuranyemo hari na jaride hari abagore bari kwerekeza kuri iyi nyubako bigaragara nkaho bagiye kwivuza.

Ni mu bitaro; hari akabati kari mu mabara ya oranje n'umuhondo; hari n'intebe y'umweru, hari lavabo iri ku ruhande rw'ibumoso; hari n'amarido y'umweru, hari n'akayira gacibwamo n'abantu bagiye kwivuza.

Ibyicundo by'abana biri mu mabara abiri, ubururu n'umuhondo, biri hafi y'ikigo cy'amashuri ku mpera z'igipangu munsi aho bitereye hari ibyatsi bitoshye.

Inyubako yo kwa muganga iteganye n'indi nyubako y'umweru, inyubako iri hirya gato ahahera irasa nk'umweru ariko na none uvanze, hari abantu bahagaze hafi y'umuryango hino gato hari ibyatsi ndetse n'indabyo.

Kabgayi hoisipito ni geti nini cyane, imbere yayo harimo inyubako nyinshi zitandukanye, harimo harerekeza ahantu haba uri ku igare ndetse n'uhagaze. Hirya gato hari ibiti biteye by'icyatsi kibisi bimeze nka sipure, ni ibitaro binini. Ni inyubako y'ibitaro bya Kabgayi

Yambaye ingofero yicaye hasi ku ntebe, ku makaro hariho agatapi kariho abantu batatu, hari abandi bantu batatu bari insi y'isaha, hari akameza k'umuhondo kariho ururabyo r'icyatsi, hari n'undi mu mama wicaye hakurya ugaragara igice gito.

Aryamye kwa muganga agaramye, muganga ari kumwitaho, ni umugabo wambaye agashati ka karokaro n'ipantaro y'umuhondo n'amasogisi y'umweru, yambaye n'agapfukamunwa ku munwa, yagaramye muganga arimo aramwitaho, bisa nk'aho yagize ikibazo gikomeye cy'uburwayi.

Pediyatirice kilinike ni amagambo ari ku nyubako iriho inkuta eshatu ziriho utubara twinshi dutandukanye tw'mabuye, imbere yayo hari abantu benshi harimo n'abaganga bamwe bambaye udupfukamunwa abandi bantu bari hirya gato hafi y'inyubako ifite amabati y'icyatsi hariho n'ihema n'imbere y'inyubako y'ibitaro.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bimwe biri mumabara yumutuku ibindi mu y'icyatsi ibindi mu y'ubururu ni kwa muganga, harimo umuryango winjiramo harimo na pubere.

Inyubako imbere yayo hari igiti kinini hateye n'ibyatsi, hafi y'iyo nyubako hari abantu babiri ndetse n'abandi bari kwerekeza mu muryango w'inyubako, ni igorofa, ni inzu yo kwivurizamo, ni kwa muganga.

Umugabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yicaye ku ntebe imbere ye hari mashine n'amazi yo kunywa, wa wundi ari kumwereka ku gishushanyo gishushanyijeho umubu haciyemo akarongo handitseho arabisi, bari mu nyubako yo kwa muganga.

Ni inyubako yo kwa muganga. Irakeye cyane, hejuru yayo hari ikirere gikeye, cyiganjemo ibicu by'umweru n'ubururu, imbere yayo hari imodoka isa n'igaragara imbere honyine, hari ibirabyo biteye muri jaride, ni inyubako nziza cyane iri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Hateye intebe, ziteye zirebana zose zifite uduti hasi, hejuru ni ubururu, ni inzu nini irimo na kamera, iri mu ibara ry'umweru, ni kwa muganga.

Ni inzu nini yo kwa muganga; imbere hicayemo umugabo w'umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'isaha ku kaboko yicaye ku ntebe y'icyatsi; hirya hazengurutse ibikoresho byo kwa muganga.

Icyapa kinini kiri imbere y'inyubako yo kwa muganga, inyubako zaho zirimo iz'amagorofa n'izindi zisanzwe, imbere yaho hakikije icyo cyapa hateye indabyo z'icyatsi kibisi.

Kigali city ni icyapa cy'umweru kiriho ayo magambo kiri hepfo gato y'gikuta kizitiye hirya y'icyo gikuta cy'amatafari ahiye hari ibiti binini hino gato hari icyapa ndetse n'ikona abantu bigiramo moto n'imodoka .

Abantu baricaye ku ntebe kwa muganga undi arabahagaze iruhande yambaye agapfukamunwa k'umweru nabo bategereje kuvurwa bicaye ku dutebe, abandi bari hirya yabo bari gutambuka.

Abaganga batatu, umwe arahagaze afite ikaramu mu ntoki, undi ari kwandika, undi ari gupima umurwayi umutsi wo ku kaboko, umugore yicaye hino, bose bambaye imyenda y'umweru, abaganga bari mu nzu mu cyumba cy'ivuriro.

Goodlife pharmacy ubwiza n'ubuzima, ni pharmacy y'imiti ikoreshwa kwa muganga, imbere yayo hari imodoka, hirya gato har’igipupe cyambaye imyenda, bigaragara ko bacuruza. Umuryango urafunguye w'iyo pharmacy.

Ikigonderabuzima cya Rwerere hepfo gato hari indabyo no hirya hari indabyo cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati hejuru hariho umurasire w'izuba.

Inyubako nini yo kwa muganga irakinze yubakishije inkigi eshatu ziriho amatafari ahiye, hejuru hari amagambo manini miri monte awutipashiyenti senta.

Isange One Stop Center Remera Rukoma ni inyubako y'amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu bwerurutse imbere hari umuryango ufunguye hirya gato hari indi nyubako biteganye y'amabati atukura hari ibigega by'amazi hari n'indabyo hirya no hino hazengurutse iyo nyubako.

Inyubako yo kwa muganga hari ibikoresho byifashishwa kwa mu ganga, hari ibitanda, hari amaburankari batwara nk'abarwayi biri mu ibara ry'icyatsi ubururu n'umweru nibikoresho byinshi byerekeranye no kwa muganga.

Kigina health center hahagaze umubyeyi wahetse umwana ushyize n'amaboko inyuma agashuka ko gutwikira umwana yagashyize imbere ari kureba mw’imbere mu nyubako ntabwo arinjiramo ariko hari undi muntu ugiye gusohokamo gate irakinguye n’ibitaro byo kuri kigina health center.

Ni ibikoresho byo kwa muganga hariho imeza, hariho insinga zishamikiye mu byuma byo kwa muganga bikoreshwa hapimwa abarwayi, birasa ibara ry'umweru n'umukara, hari urundi runsinga ruyobora amaraso aho bayapimira rusa umutuku, byose biri mu nyubako yo kwa muganga.

Umuntu uryamye ku gitanda bari kumwitaho ari abaganga babiri, umugabo n'umugore, bigaragara nkaho yavunitse ukuboko barimo baramuvura, ari kwa muganga ni umukobwa wambaye ikanzu.

Herufu tageti biri mu ibara ry'icyatsi byayandikesheje umweru, imbere y'iyi nyubako hari amasikariye azamuka yinjiramo, hari n'ibishushanyo byerekana ko ari inzu y'ubuvuzi.

materinete inzu y'ababyeyi ni inzu yubatse n'amatafari ahiye ifite umuryango munini uri imbere ufite akantu k'akabaraza isakaje amabati y'ubururu ni inzu y'inyubako yo kwa muganga ni yo abagore babyariramo

N'inyubako yo kwa muganga harimo umuryango ufunze harimo akayira gakomeza hari utu etajeri turimo imiti yo kwa muganga abaganga bifashisha mu kuvura.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye imbere yaho hari indabyo no hirya hari indabyo, ni inyubako yo kwa muganga ikoreshwa n'abaganga, imbere yaho hari n'ibigega bifata amazi.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo abantu benshi, barenze bane, bari kureba kuri sikirini, hejuru yabo hari kamera hari na vandarateri, ni mu nyubako yo kwa muganga, bari imbere y'agatanda kariho umweru kameze nk'igitambaro.

Inyubako nini imeze nko kwa muganga imbere hari ishusho nini y'abantu babiri bambaye marinete, hirya gato hari icyapa kinini cyanditseho furi kigaragaza abantu babiri batagaragara nabo neza.

Ni ibikoresho biri mu ibara ry'umweru hejuru gato hari isaha, hino gato hari urusinga rukomeza rujyana muri kamera iri ahagana ku ruhande, ni ibikoresho byo kwa muganga.

Abaganga batatu bari mu nyubako kwa muganga bambaye ga z'ubururu, bambaye amataburiya y'umweru, bose basa nk'aho bishimye, imbere yabo hateretse amacupa harimo iry'umuhondo, harimo n'ayandi atandukanye, harimo amabara menshi y'ibikoresho ni kwa muganga.

Mediyazoro famasi Remera, inyubako ndende y'igorofa, imbere yayo haparitse imodoka y'ubururu y'akavatiri, hirya gato haparitse akandi kavatiri k'umweru, imbere yaho hari imiryango yinjira n'isohoka, imbere hari n'indabyo z'icyatsi.

Ni inyubako nini ngari, iriho inzugi z'umutuku, iriho utubati, imeze nk'iyubatse nk'ifite inguni ebyiri ebyiri ziteganye z'umweru, harimo inzira ikomeza ni kwa muganga.

Uburiri bushashe neza n'igitambaro cy'umweru hejuru yabwo hari ekara ebyiri z'umukara imwe isa n'irimo amashusho, ni bitaro harimo ibikoresho byinshi bikoreshwa kwa muganga.

Ni inyubako yo kwa muganga. Harimo ibikoresho, bitandukanye biri mu mabara atandukanye. Umuhondo, icyatsi, ubururu, hari imiryango myinshi yinjira muri ibyo bitaro.

Ibikoresho byo kwa muganga, harimo intebe, ameza aho bashyira ibipimo bafashe, ekara nini cyane iri hejuru y'umukara, ndetse n'ibindi bikoresho biri mu mabara atandukanye.

Ivuriro riri ahantu mu busitani hazengurutswe n'ubusitani bw'indabo nziza n'ibiti birebire, hari imodoka ziparitse kuruhande, uruhande rwo hepfo hari umuhanda wa kaburimbo.

Ni kwa muganga hari agatanda k'ubururu k'abarwayi hari ibindi bikoresho harimo n'isaha n'aho bamena imyanda, ni kwa muganga mu nyubako nini irimo ibara ry'umweru n'ubururu.

Umuntu wambaye isengeri y'umweru, afite imisatsi ishotse mu mugongo, ari muri siporo mu cyumba cyabugenewe. Hino ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara n'umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ni abantu benshi bambaye imyenda ya siporo yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara, imbere yabo hari insina, hari n'abandi bari gusa nkabasimbuka bari muri siporo, ku butaka haciyeho imirongo bigaragara ko bari mu kibuga.

Ikimenyetso cy'umusaraba, munsi yaho handitse fesite ayidi, hejuru hari ibikoresho byinshi: nk'umukasi, indodo, n'ibindi bikoreshwa mu buvuzi, byerekeranye na siporo.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru kagarukiye munsi y'amabere yazamuye amaboko; yapfukamishije akaguru kamwe k'iburyo akandi yagahiniye imbere, yambaye ipantalo y'ubururu ari muri siporo imbere ye hateretse ururabyo r'icyatsi kibisi.

Umugabo wambaye umupira usa na gisirikare, ipantaro y'ikobo y'umukara inkweto z'umweru, yambaye ga y'umweru ahagaze mu bitaro mu bikoresho byo kwa muganga afashe ku giti kiriho insinga.

Fiziyoterapi and terapetike masaje biri mu ibara ry'icyatsi ndetse no munsi hariho imbuga nkoranyambaga wababonaho cyangwa ushaka kubahamagara hariho na nimero, ni Viateur Nshimyumuremyi niwe nyiri iki kigo gikora masaje.

Iyi foto isa naho irimwo ibizeru bine, ibice bine ,umuntu uri mu ishusho y'ubururu ari gasa nkaho akora imyitozo yo kwiruka hepfo ye gato mw'ibara ry'ikijuju harimo ibiganza bibiri, duturutse hirya hari umusaraba uri mu ibara ry'umutuku hepfo gato mw'ibara ry'icyatsi ni umuntu.

Umwana bari kumupima ku gahanga kugirango barebe ubushyuhe afite, ari gupimwa na muganga wambaye imyenda y'ubururu, mama we amufashe ku gahanga inyuma yifubitse igitenge yakiziritse mu gatuza, yambaye agapfukamunwa, umuganga afite igikoresho cyabugenewe.

Bari muri siporo ,ni abantu babiri umwe yambaye umukara hejuru undi umutuku umwe yambaye inkweto zifunze zimeze nkiza siporo neza neza z'umukara zisa nk'ikabutura, bafite n'udupira mu ntoki bari mu muhanda urimo akantu kameze nk'ikiraro karimo utuntu tw'umweru.

Ni igikoresho gisa nk'igiteretse ariko gifiteho ikindi gishamikiyeho kizamutse n'ibindi bisa n'ibyigonze, biri mu mabara atandukanye. Ni ibikoresho byifashishwa muri siporo.

Muganga arunamye mu bitaro ari gukora mu bintu by'umweru yambaye ga z'ubururu n'akagofero k'umweru, hejuru ye hari sikirini nini cyane y'ibara ry'umukara harimo imibare imwe yanditse mu ibara ry'icyatsi iyindi mu bururu iyindi mu mutuku.

Ari muri siporo mu cyumba cyahariwe siporo, harimo ibikoresho byinshi bikenerwa muri siporo, ni umugabo arararamye yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'ikijuju itagaragara neza ateruye icyuma mu ntoki.

Pome imiineke, kokombure n'izindi mbuto ziri hano, hari n'ibyuma byo gukoresha siporo bizengurutse biteganye, n'izi mbuto ziri hano zirimo iz'icyatsi z'umuhondo n'iz'umutuku.

Agakoresho abaganga bifashisha bapima uko umuntu ahagaze, uko umutima utera, kari iruhande rwa baro ya basiketi, ndetse n'andi mabara y'ibikoresho atandukanye, ni yo ari mo imbere mu nsinga zifashe kuri aka kantu abaganga bifashisha.

Asa n'uwavunitse akaboko yashyizeho agatambaro k'ubururu mu nkokora yafatishijeho akandi kaboko, kamwe kari ku ivi kavunitse ari kugakanda.

Umugabo wicaye hasi ku gatanda, yambaye urukweto rumwe n'isogisi ry'umweru, umuganga ari kumuvura ku kirenge k'iburyo, amuziritseho bande y'umweru, umuganga yambaye itaburiya y'ubururu, asa nkaho uyu mugabo yavunikiye muri siporo.

Ari muri siporo ni umukobwa ufite imisatsi miremire, yazamuye amaboko mu kirere, yambaye akabisitiri k'umukara na giri, yambaye ipantaro y'umukara, yarambuye akaboko inyuma, akandi yagahiniye imbere.

Ikiganza bari gupfuka bashyiramo igipfuko cy'umweru n'ikindi bamaze gupfuka, intoki ziri kugipfuka ziri hejuru yacyo, hari ibara ry'umuhondo n'ubururu n'umweru.

Umumama wavunitse, bigaragara nkaho ari kwikanda, ari gukoresha agatambaro k'ubururu, yambaye agashati k'umweru, mo imbere yambaye agasheneti k'umweru, aricaye ari kwikanda ku kaboko ahagana mu nkokora.

Yicaye asa n'uwihebye yigunze afite agapipiri mu ntoki karimo amazi arenda kuyanywa yambaye isaha ku kaboko y'icyatsi, hirya ye hari umugabo uri kugenda ugaragara igice cyo hasi.

Ni ibikoresho byo muri siporo igikapu cy'umukara batwara mu kibuga, umukasi, kereyo, udukarito twinshi tuzengurutse icyo gikapu n'ikizingo cy'impapuro z'isuku, ni ibikoresho biri mu mabara atandukanye.

Yazamuye amaboko ari hejuru y'umutwe , ari muri siporo zo kwinanura, yambaye agatambaro mu bisuko by'umukara, agatambaro nako ni umukara. Ni umukobwa uri muri siporo.

Ni umuganga afite umurwayi ari kwitaho umurwayi yazamuye ivi, muganga ari kumukandiraho, bigaragara nk'aho yakomeretse cyangwa yavunitse arimo aramukanda kugirango amuvure.

Gukora siporo yicaye ku mukeka w'ubururu yarambuye amaguru imbere ye afatishije amaboko mu bworo bw'ibirenge ari muri siporo yambaye agasengeri k'umuhondo n'ipantaro y'amove.

Ni ibaga y'abaganga irimo imiti itandukanye bifashisha muri siporo, harimo udukarito tw'imiti turi mu mabara atandukanye y'umuhondo, ubururu, icyatsi n'umutuku.

Yambaye kuteri yambaye umupira w'ikijuju, arimo aranywa amazi mu icupa rinini bigaragara ko ari muri siporo, amazi ni ingenzi niyo mpamvu ari kuyanywa.

Ni imiti iri mu mabara atandukanye ndetse n'amacupa ameze amwe nk'arimo korogate yifashishwa mu buvuzi bw'abahuye n'imvune zo muri siporo yanditseho sitopu peyini.

Igikoresho cyo kwa muganga kiriho ama buto ageze muri atanu, kimeze nka telefone ariko na none kimeze nk'isaha kirimo imibare rimwe na mirongo ine nabiri, ikenda n'igice, kimwe kiri mu ibara ry'icyatsi ubururu umweru n'umuhondo n'agatuku gake.

Imiti itandukanye iri mu gakapu k'abakinnyi bifashisha iyo bavunitse, harimo amavuta, harimo imiti yo mu ducupa, harimo iri mu dukarito, yose iri mu mabara atandukanye harimo n'imikasi bayifashisha muri siporo iyo bavunitse.

Ni igikoresho cyifashishwa kwa muganga, mu by'ubuvuzi bwerekeranye na siporo, ifite udushami tune turiho amapine y'umukara, udushami ni mweru, kizamutse kimeze nk'inkoni, aho gufatwa nk'umukara.

Umuganga w'umugabo yambaye itaburiya y'umweru ari kureba imbere ye, imbere he hasa nk'ahari umupira wa oranje ndetse ari kuwufataho ndetse hari n'ibindi bikoresho byo kwa muganga byerekana ko ari mu buganga bwita kuri siporo.

Umusore uri muri siporo, yateye umugongo inyuma ye yafashe akaboko, agakoza ku kandi aho gatereye mu mugongo, yambaye isengere y'umukara aciho uturongo ku maboko no ku ijosi twa oranje. Ari muri siporo ngororamubiri.

Igice kimwe kiragaragaza umuntu w'umugabo wambaye agakabutura k'umukara yifashe ku itako bigaragara nk'aho yavunitse arimo arikanda ku itako itako rye rirasa nk'aho risizeho imiti y'umutuku.

Ari gukoreshaho ku ivi agatambaro k'ubururu, yazamuye ipantalo yayigejeje hejuru ku itako, akaboko kamwe gafashe ku iyo pantaro iri kwi itako, bigaragara ko ari kwikanda mu ivi yakomeretse yahuye n'ikibazo ari muri siporo.

Ambiranse ni imodoka itwara abarwayi barembye cyane baba bahawe transfer berekeza ku bitaro bikuru, iri mu muhanda, inyuma yayo hariho ipine, isa nkaho igiye gukata ruguru yaho hari ibiti binini birebire byi'icyatsi kibisi, n'utuzu dutoya.

Igikapu kirimo laputopu isa n'icometse, kiri mu mabara y'umuhondo, umutuku n'umukara, hirya hari ibikoresho ndetse hari ishusho y'igihanga cy'umuntu, ni ibikoresho byifashishwa muri siporo bavura imvune za hato na hato.

Ari muri siporo yazamuye amaboko yombi yambaye akabisitiri kageze munsi y'amabere, yambaye na kora igeze hejuru y'umukondo, igeze mu mpfundiko, ari muri siporo yazamuye amaboko, yicaye hasi yasobekeranyije amaguru, imbere ye hari ibikoresho yifashishaga nk'umugozi, agacupa k'amazi, n'udukoresho tubiri, ari n'iruhande rwa mudasobwa.

Bari muri siporo zitandukanye, bamwe bari gukorana, abandi bari kwikorana ubwabo, umwe aricaye, undi arahagaze, undi ari kwinanura, abandi bari gusimbuka, abandi bari gukina baro.

Ni umugabo uri muri siporo yambaye ubusa hejuru, yambaye agakabutura, k'umweru yambaye isaha y'umweru n'umukara, yambaye inkweto z'umweru n'umukara zifite amenyo, akaboko kamwe kari gukora ku kaguru k'iburyo yabirambuye ari muri siporo.

Aricaye amaguru yayazamuye mo gake amano ayafatishije mu maboko, yambaye agasengeri ka pinki gaciyeho utubara tw'umweru, hejuru yambaye ipantaro ya pinki, n'amasogisi y'umweru. Ari muri siporo ni umukobwa munini.

Ni abaganga benshi bageze muri batanu bambaye utugofero tw'ubururu mu mutwe ndetse bari kureba umuntu wicaye urwaye asa naho yavunitse bagiye kumwunga.

Umusore uri muri siporo wambaye agasengeri k'icyatsi, afite amazi mu gacupa ari kuyimenaho mu maso, yararamye yambaye agatambaro ku kaboko k'ubururu, ari kureba mu kirere ari muri siporo.

Abaganga benshi n'abantu benshi barahagaze, umuntu araryamye akaguru kamwe kari mu byuma, gasa n'akakomeretse cyane, bari kumuha ubuvuzi ariko bose batunguwe.

Return to sport guidelines, ni amagambo manini y'ubururu, yanditse ku cyapa kishushanyijeho ibintu bitandukanye, hariho abantu uko wakora isuku mu mutwe, uko wakora isuku umubiri wose, uko wakora siporo ibibujijwe n'ibyemewe nibyo biri mu mabara atandukanye.

Amacupa atatu yose ateye kimwe ariho icyapa kinini cy'igipapuro cyanditseho stopaini n'imiti yifashishwa mu kuvura abahuye n'imvune muri siporo.

Hari ikirahure kiri gusukwamo amazi ndetse n'ijaga iri hejuru umuntu uri kuyisukisha; amazi ari kuva mu ijaga ari menshi yinjira mu kirahure biri mu ibara ry'ubururu.

Umuganga wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara ari kuzirika bandi ku mugabo wicaye, azabuye akaguru akandi kari hasi, wambaye agapira k'icyatsi igaragara nkaho yavunitse ikirenge.

Yambaye agasengeri k'umuhondo, agapantaro kamufashe cyane kari mu ibara ry'ikijuju ni umukobwa wunamye wafashe munsi y'ikirenge ari muri siporo akandi kaboko kari inyuma mu mugongo, yunamye yafatishije akaboko kamwe ku kirenge.

Yambaye imyenda y'umukara, yambaye inkweto z'umukara n'umweru harimo utubara tw'umuhondo, ari muri siporo yambaye isaha y'umukara ni umugabo wazamuye akaguru akarenza igikuta hejuru ku biti bikikije inyubako iri imbere ye ari muri siporo.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, uri kunywa amazi areba mu kirere, yambaye agasengeri biragaragara ko ari muri siporo yo kwirukanka, ari kunywa amazi akoresheje agacupa k'icyatsi.

Inyubako nini irimo ibikoresho biri mu ibara ry'umweru n'ubururu ni ibikoresho byo muri siporo, hari intebe yicarwaho indi ikicarwaho imeze nk'iryamweho, hari na kamera iri mu ibara ry'umweru.

Ari kunywa amazi ayanywesha agapipiri kameze nk'ak'abana nk'uko abana baboka ibere k'ubururu n'umweru arararamye mo gake, yitwikiriye agatambaro mu ijosi k'umweru, ni umukobwa wiyogoshesheje.

Ibikoresho bya muri siporo abaganga bifashisha, hari umuntu ugaragara amaboko gusa, uri kwandikisha ikaramu ku ikayi, hari ibikoresho birimo nk'imetero, n'ibindi bisa icyatsi n'ubururu, n'umutuku.

Ari kumuvura ni umugabo wicaye hejuru y'akameza ari kumushyiraho igipfuko, ndetse ni ni umugabo wundi uri kumuvura wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara yavunitse akaguru hafi y'ikirenge.

Arambuye amaboko imbere ye yubitsemo umutwe amaguru yayahinnye ari muri siporo yambaye imyenda y'umukara hariho akabara k'umweru ni umugabo uri muri siporo ngororamubiri afite umusatsi ndetse n'ubwanwa umusazi yawuzirikiye inyuma.

Umusore ari muri siporo afite akantu ari kugenda asimbuka amaboko yayabanje imbere, akaguru kamwe yagateye kugasitepu ka mbere akandi kari gafashe inyuma, hirya ye hari imipira ibiri ari kugenda akora siporo ananura imitsi.

Bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bwerurutse, imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ni kwa muganga bambaye n'utugofero tw'ubururu bweruye, bari imbere ya kamera iri gutambukaamashusho. Ni mu by'ubuganga bujyanye na siporo.

Ni imipira itandukanye iri mu mabara atandukanye iy'umukara n'umweru, iy'umuhondo iciyeho utubara tw'umukara, uw'ikijuju urimo akabara k'umweru, ibi byose n'ingofero yo mu mutwe byifashishwa mu gukina imikino itandukanye haba iy'amaguru n'iy'amaboko.

Igikapu kirimo ibikoresho byinshi; harimo isaha, harimo imigozi, harimo imikasi, harimo ibintu byinshi by'amabara atandukanye yiganjemo umweru; igikapu kirasa umutuku n'umukara hariho n'akabara k'umuhondo weruruka.

Umugabo uri muri siporo ari kwimena amazi mu mutwe akoresheje agapipiri, yambaye agatambaro ku kuboko kw'ibumoso, yambaye isengeri y'icyatsi kibisi, arahumirije ari kureba mu kirere.

Inyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho hari n'igitanda cy'abarwayi kiri mu ibara ry'ubururu n'ibindi bikoresho biri kumpande harimo amabara y'ubururu, umweru ndetse na vandarateri hejuru.

Bari muri siporo n’ ibishushanyo byerekana siporo, hari amagambo yanditse mu mweru sipoti medecini n’ uburyo wakora siporo ngororamubiri.

Ibikoresho biri hamwe harimo baro y'amaguru, harimo baro ya vore boro, iya basiketi boro, akadenesi, igikoresho cy'abaganga gipima uko umuntu ahagaze, byose biri mu mabara atandukanye.

Umugabo uri mu nyubako kwa muganga mo imbere, ari gufata agatambaro mu ntoki agakurura bisa nk'aho ari gukora siporo ngororamubiri, ari kumwe n'umuganga utagaragara neza mu maso, wambaye imyenda y'ubururu, ipantaro n'ishati.

Umusore wambaye agasengeri k'ubururu, arimo aranywa amazi mu gapipiri, yicaye ahantu avuye muri siporo, yambaye agakomo ku kaboko k'iburyo, agakomo karasa icyatsi kibisi, ari kunywa amazi kugirango agarure morare.

Imbuto nyinshi zitandukanye, harimo pome, avoka, n'izindi nyinshi z'umutuku n'icyatsi, ni byo biri hamwe mu kantu kameze nk'umutima, hirya no hino hari ibikoresho nk'inkweto, n'ibindi byifashishwa muri siporo, biteruwe mu biganza, biciriyemo hagati, bitari kugaragara neza.

Imiti iri mu matsinda atandukanye yiganjemo ibara ry'icyatsi akoreshwa mu buvuzi gakondo, harimo ay'amababi manini, andi y'amababi mato, ariko yose yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibyatsi binini bitoshye by'amababi, bigaragaza ko ari umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, byashibutse ku giti kimwe gisa nk'aho cyatemwe ho gato byifashishwa mu buvuzi zisa ibara ry'icyatsi kibisi.

Ni imiti myinshi itandukanye iri ku mukeka, harimo amabara atandukanye umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'ikake. Inyuma yaho gato hari ibindi n'utundi dutoya twifashishwa n'abavuzi gakondo, iyi miti nayo ivura indwara ariko ikifashishwa n'abavuzi gakondo.

Imicyayicyayi n'ibindi bimera, harimo n'imbuto zimeze nk'indimu, ruhande rwazo hari icyuma gifite ikiriindi cy'umukara, ni imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo.

A Wholesome Herbal tear Ange, ni amagambo ari mu nyuguti zitandukanye, munsi yayo hari ibikoresho bitandukanye, bigiye birimo imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Ni ibimera by'icyatsi kibisi ni umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, abaganga ba gakondo barayifashisha mu kuvura indwara, iri mu icyatsi kibisi iteye ahantu hayonyine hihariye.

Icupa rirerire, rifite umufuniko w'umweru, ririho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, foreva ayi vijoni. Mirongo itandatu, ni umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni imiti ikoreshwa n'abaganga gakondo, ni amacupa ageze muri ane, rimwe rirazamutse riri mu ibara ry'ubururu, irindi riciye bugufi ripfundikishije umupfundikizo w'ubururu, ayandi ni matoya ari ku ruhande abiri.

Ni amabara menshi yiganjemo icyatsi, imiti gakondo irimo shampo n'ayandi menshi atandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ikimera cy'icyatsi kibisi kiriho ururabyo rufite utuntu tw'uturabyo na two tw'utubuto, byifashishwa mu buvuzi gakondo kiri mu ibara ry'icyatsi ryerurutse, kandi ni ikimera giteye ahari ibimera byinshi nabyo.

Imiti myinshi n'amabara menshi avangavanze biteretse mu tuntu tubikwamo iyo miti, umuntu ari kugaragara ibiganza asekura mu gasekuru gato gasa umweru asekurisha agahini nako gatoya , ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo .

Ni amacupa atandukanye ndetse n'agakarito kameze nk'akari mabara ane, umuhondo, icyatsi, umutuku, ubururu, ndetse ateretse bitandukanye bitewe n'uko arimo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni ahantu hari abantu benshi mu rugero, handitse amagambo ndetse na nimero za telefone, amagambo dukoresha hari imiti mu macupa menshi atandukanye n'amabara atandukanye bigaragara ko ari imiti gakondo bari gucuruza.

Ni imiti gakondo iri mu ka etajeri karimo uduce tubiri, imwe iri hasi, indi iri hejuru iri mu macupa atandukanye, umugabo ari hakurya yaho mu muhanda, umugore ari kuri telefoni yambaye ipantaro ayiri iruhande ayiteye umugongo, iyo miti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibiti birambitse ku kabuye birasa icyatsi kibisi ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo. Ni uduti twinshi ducucitse dusa naho bagiye gukoramo umuti.

Ikimera kirambaraye hasi gifite ibibabi byicyatsi, gifite uturabyo twa move turimomo imbere utubara twumuhondo, kigaragara nk'igiteye aho hantu, cyifashishwa mu buvuzi gakondo.

Imiti itandukanye iri mu mabara atandukanye : umuhondo, umweru, ubururu, icyatsi. Ni imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo bavura indwara zitagiye kwa muganga.

Byifashishwa mu buvuzi gakondo biri mu dusorori tugiye dutandukanye, ni imiti itandukanye iteretse ku gakeka ka kinyarwanda, harimo ibiri mu mabara y'icyatsi ay'umuhondo n'andi menshi atandukanye.

Umugabo ahagaze mu iduka ricuruza imiti gakondo, yibanda ku buvuzi gakondo hari amacupa menshi ateretse mu dutsinda twayo aho bur'umuti ubarizwa ari mu ibara ry'cyatsi, umweru, w'ubururu n'ayandi.

Igiti kinini kirekire gifite andi mashami agishamikiyeho, byose bifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse hari n'ibindi biteye hasi gato biri mw'ibara ry'umutuku. Byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Utujerekani dutatu dutandukanyije imipfundikizo kamwe ni umuhondo, akandi ni umweru wijimye, akandi n'umweru werurutse burimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo hejuru yabwo hari ibintu by'icyatsi bimeze nk'ibiti bikorwamo iyo miti.

Ikimera cy'icyatsi kibisi kiri ahantu giteye cyifashishwa mu buvuzi gakondo, gifite amababi manini agaye cyifashishwa n'abavuzi gakondo.

Umuntu wifashe mu mayunguyungu, imbere ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara fit nutritional cleansing program, ni imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi n'abavuzi gakondo.

Foreva bi puroporisi foreva ayo ni amagambo yanditse mu nyuguti za shokora, ari ku icupa rinini rirerire ry'umweru ripfundikiye, hirya y'aho hari igikakakarubamba ni umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Icupa ry'icyatsi ririmo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, iruhande rwawo hari igikakarubamba cy'icyatsi kibisi.

Ibimera biri mw'ibara ry'icyatsi kibisi, kimwe giteye hagati muri byo gitandukanye na byo kimeze nk'umuravumba, gifite amababi manini ,ni igiti gikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Ni imiti myinshi iri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'agahondo. Hasi hari udushushanyo dushushanyije tumeze nka mpande enye. Tumwe muri two ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni abantu bageze mu munani bari kugenda berekeza ahantu amazi ari kumanuka hejuru yikubita hasi, hirya no hino hari ibimera birebire by'icyatsi bisa nkaho bitoshye ari igihe cy'imvura.

Mu ibara ry'icyatsi ari utubabi dutoya ndetse n'ikindi kinini kimeze nk'ishu n'ibindi ku ruhande, ni imiti gakondo bigaragara ko iri yifashishwa mu kuvura indwara, hifashishijwe iyi miti gakondo.

Ari gusoroma muti ukoreshwa mu kwifashisha bavura indwara, ariko bya gakondo, yambaye ibitenge biri mu mabara y'umutuku n'ubururu, n'umuhondo n'icyatsi, ari gusoroma uwo muti ufite uturabyo tw'umutuku n'umweru.

Ibyatsi by'icyatsi kibisi birambuye ahantu, ni birebire, bifite amababi, bimeze nk'ibirunze ahantu babitemeye bakabirambika, ni ibiti byifashishwa mu buganga gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye zibasira abantu.

Imiti gakondo iri mu matajeri atandukanye n'imiti myinshi itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo iri mu macupa maremare umweru, icyatsi, ubururu, umukara yose yifashishwa n'abaganga gakondo.

Ni imiti itandukanye mu mabara atandukanye umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu ,move n'irindi bara rivangavanze . Ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni udukarito twinshi turenze tubiri turiho amagambo yanditse ngo fosivo soribo n'andi menshi ari mu ibara ry'umutuku n'umuhondo n'icyatsi aratandukanye byifashishwa nk'imiti y'ubuvuzi gakondo.

Ni ikimera gifite amababi agiye atandukanye, hari amatoya, amanini, ariko yose arasa icyatsi kenda kweruruka, kifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni igiti kiri ahantu mu ishyamba gifite amababi atatu atatu manini, aringaniye yifashishwa mu buvuzi gakondo, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Yanditseho forever iri mu macupa atandukanye ane ndetse impande zayo hari indabyo z'ibihwagari bigaragara ko ari imiti ikoreshwa mu kuvura bya gakondo.

Amacupa menshi atandukanye, arimo imiti itandukanye yose arapfundikiye, harimo amaremare n'amagufi, yose agiye yanditseho bitandukanye bitewe n'ibyo avura, imiti irimo yifashishwa n'abaganga gakondo mu ndwara zibasira abantu.

Amacupa ane ni maremare apfundikije imipfundikizo itandukanye, abiri ari mu ibara rya oranje andi abiri mu ibara rya shokora yombi ashushanyijeho igikakarubamba, ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Igiti kirambitse hasi kizaho indabo za move harimo n'agahondo mw'imbere n'akeru gake keruruka ,gifite utubabi tw'icyatsi twifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umuti uri mukarito gateretse, hariho amagambo yanditse mu nyuguti z'ubururu n'umutuku, haciyeho uturongo tw'umuhondo, hasi hari ibara ry'umutuku, ni umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Aloe Lips Easy to use, ni icyapa kinini cyanditseho ayo magambo, kirimo amabara abiri, pinki ndetse n'umweru, amagambo yandikishije amabara atandukanye, hirya yaho hari imiti yindi iri mu tundi ducupa tuzamutse, ni imiti ikoreshwa n'abaganga gakondo.

Icupa rinini ririho amabara: umweru, umukara n'icyatsi yandikishije amabara, amagambo yandikishije ibara ry'umukara, riri kugaragara nk'iririmo amazi, ariko yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Icupa rinini rizamutse ry'yumweru riciyeho akantu k'umuhondo, ririmo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo rirapfundikiye ritetse ahantu.

Umuti uri mu icupa ry'umweru rifite umupfundikizo w'umweru, ririho icyapa cyanditseho foreva royo jeri rishushanyijeho uruyuki, ni umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni ikimera kiri ahantu ku butayu ariko cyo kiratoshye hari n'ibindi bimera bitoya cyifashishwa mu buvuzi gakondo, kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'irindi rijya gusa umuhondo werurutse.

Ni ikimera giteye ahantu ha cyonyine, kirazamutse gifite amababi cyifashishwa mu buvuzi gakondo, ni umuti uvura indwara, ariko cyifashishwa n'abaganga ba gakondo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare yazinzeho gato, ishati irasa umweru, ari mu nzu mu imbere ari gufata imiti ayishyira ukwayo, afashe icupa ririmo umuti gakondo yifashisha mu buvuzi gakondo.

Ni igiti cy'icyatsi kibisi kirimo kuzamuka gake gake mu butaka hirya yaho hari ifumbire, ni igiti cyifashishwa mu buvuzi gakondo, abaganga baracyifashisha.

Amacupa menshi ari mu ibara ry'umweru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ayandi ari mu muhondo, ni imiti yifashishwa mu bavuzi gakondo, aya macupa ariho ikirango cy'inyoni iguruka.

Amacupa abiri arimo amavuta y'umuhondo ari iruhande rw'agasorori k'umweru karimo amababi y'ibyatsi, amababi y'ibyatsi nanone ari hirya no hino azengutse ako gasorori n'imiti gakondo yifashishwa n'abaganga bavura indwara bifashishije imiti gakondo.

Uducupa duteretse turi mu mabara menshi atandukanye umuhondo umweru icyatsi tugaragara nk'uturimo imiti yifashishwa mu buvuzi, turi hamwe turi twinshi.

Igiti kirekire kizamutse gifite amashami menshi y'icyatsi kibisi; cyifashishwa mu buvuzi gakondo; ku ruhande hari amabara y'umutuku; n'ikindi kimera cyazamutse munsi, byose byifashishwa mu buvuzi gakondo.